Iri ni iduka ry'imyenda, winjiyemo neza n'ubwo ari isoko, ariko urareba neza ugasanga bari gucuruza imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, hari amashuka, hari imisego ndetse n'ibindi, hari amakoti hari imipira y'abakuru, ndetse hari n'imipira y'abantu bato ndavuga iy'abana.

Iyi ni bare yitwa no siterese , ibaga mu kinigi ku muhanda mu ruhande rw'iburyo, uzamuka werekeza aho bitiraga ingagi amazina.

Iyi ni butike mubona. Uyu Mukobwa arimo aracuruza ari umupira w'amaguru, murabona hariza mushwara, hari ingofero hari uburoso bw'amenyo, hari za korogati , hari amasaha, hari nimikeka urebye ku ruhande urayibona neza ibyo byose wabyifashisha. N'ibindi wakenera muri iyi butike.

Inzu iriho irangi rya airtel, bacuruzaga amanite bakanohereza amafaranga. Iyo ubibasabye barabikoraga rwose.

Iduka ry'imyenda bacuruzaga amakoti, amapantaro n'indi myenda itandukanye, amashati, amapataro, amakabutura ndetse n'ibindi wakenera kugura wabisanga muri iri duka, bakabiguha ku giciro gihendutse.

Ukeneye inyama z'inkoko, wazisanga aha. Ukeneye amagi, wayabona. Ukeneye icyo twita umureti w'amagi, wabibona. Batanga komande.

Aya mazu mubona ni za butike, zicuruzwamo ibintu bitandukanye, murabona yuko harimo amakara, harimo ifu, urabona yuko harimo ibiribwa bitandukanye, ushobora gukenera.

Iyi nzu ni butike bacururizagamo ibiribwa bitandukanye, bariya bagabo bari imbere n'abasudizi basudiraga inzugi ,amadirisha ,n'ibindi byuma bitandukanye.

Iyi mubona rero ni butike kandi muri iyi butike bacururizagamo :biswi, bacururizagamo ibibiriti ,bacuruzagamo isukari ,amakaramu n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Uyu muryango bacururizamo ibiribwa, aha ni aho bita muri buranjori. Harimo inyange, harimo imikati, harimo imineke, ndetse n'ibindi biribwa, wasangamo icyayi n'ibindi bitandukanye.

Aha bahita ku makaro meza ni ahantu bacururizagamo amakaro ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi ibyo dukundaga kwita kenkayeri.

Inzu nayo ikorerwagamo ibintu bitandukanye: Bacururizagamo farumasi, bacuruzagamo inyange, ndetse n'ibindi bicuruzwa kubera yuko, ari etaje igeretse.

Aha ni muri sitade ahagaragara nk'ahari abafana batandukanye, bafanaga amakipe yabo bitewe n'iyo buri wese akundaga.

Aha ni ku isoko, aho abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, Kandi iriya nzu ikoregwagamo ibikorwa bitandukanye kubera y'uko ari inzu.

Mu isoko bacururizagamo ibintu bitandukanye imyenda, inkweto, amapantaro niyo mpamvu aba bari gutandika inkweto, bagatandika amakoti ,bagatandika amashakoshi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inyanya ni zimwe mu mboga zihingwaga mu duce dutandukanye mu majaruguru y'u Rwanda, ndetse no mu tundi tuce tugize igihugu cacu c'u Rwanda, ubwo rero aba babyeyi bari gutandika kandi bari gucuruza mu isoko ku biciro bitandukanye bitewe n'uko inyanya zabo zihagaze, abafite inziza bagacuruza amafaranga menshi.

Izi mboga bazitaga amashofureri: Imboga ziryohaga kandi bazitekaga mu buryo butandukanye, bitewe n'ibyifuzo byawe n'ahantu uherereye.

Aha ni mu isoko ry'ibiribwa, ubona y'uko bari gucuruza inyanya, bacuruza imineke ni ibindi bitandukanye, ni isoko ry'imbuto ndetse n'ibiribwa.

Aha ni mu soko ry'inkweto harimo inkweto z'abagore ,inkweto z'abagabo ,wacagura ugahitamo bitewe nuko umutima wawe ushaka .Hari inkweto z'umukara ,n'inkweto z'umweru amabara anyuranye.

Aha ni musoko. Aya ni amaduka atandukanye yuzagamo ibicuruzwa bitandukanye, haba harimo ubuki, harimo ifu, ndetse n'ibindi binyuranye wakenera.